Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu gifite ibirango by'icyatsi cyandikishijwe amagambo y'umweru cyamamaza uburyo bwo kwivuza hakoreshejwe mituweri.

Icyapa kiriho umugabo n'umugore bateruye umwana inyuma hariho akagare bamucungamo byerekana uburyo umuntu afungura kote ya radiyati akaba yabasha kugura ubwishingizi.

Uru ni urubuga rukorera kuri murandasi ndetse n'ikoranabuhanga, rushishikariza abantu kwaka inguzanyo. Hariho umusore wambaye ishati y'ubururu, agasatsi ke karasokoje, mu maso ye hari ibyishimo kubera ko ari guseka.

Urubuga rw'apulikasiyo rwashyizweho na banki ya ikwiti rufasha buri muturage kuba yareba amafaranga asigaranye, yakohereza cyangwa se yakwakira hakoreshejwe terefone ye igendanwa.

Urubuga rwa banki winjiramo ugakoresha uburyo bwo kubikuza amafaranga, kuyohereza kuri terefone hifashishijwe ikoranabuhanga na terefoni ngendanwa.

Urubuga rwashyizweho na banki ya Afurika, rwemerera abakiriya babo kwinjira bafunguje telefone, bakaba bakohereza amafaranga cyangwa bayakura kuri telefone hifashishijwe telefone igendanwa.

Umuhungu wambaye ingofero y'umweru afite telefone y'umukara mu kiganza cye, ari kwerekana bimwe mu bicuruzwa acuruza bisembuye harimo konyage, umuvinyo, n'ibindi. Imbere ye hari kontwari iteretse ho meni igaragaza ibiciro by'ibyo bicuruzwa, hateretse n'intebe iri mu mabara y'umuhondo.

botike iteretsemo etajeri iriho ibikoresho by'ubugeni harimo ibishushanyo hakaba harimo igikapu cy'icyatsi icy'umukara byose bakaba babikora hifashishijwe intoki.

Aha ngaha hari ameza yicayeho abantu bane harimo umugore umwe ndetse n'abagabo batatu, bicaye ku ntebe nziza cyane bose imbere yabo hari indangururamajwi kugirango ngo babashe kumvikana, hakaba hari kandi n'uducupa tw'amazi atunganywa n'uruganda ruzwi cyane mu Rwanda mu gutunganya ibyo kunywa rw'inyange

Ibipupe bikunze gukinishwa n'abana bimwe biteretse kuri etajeri ibindi bikaba biteretse ku nzu harimo ifite amabara y'icyatsi na oranje, umweru, ubururu, umukara bifite amabara menshi atandukanye.

Inzu iriho amavaze atatu ateretse imbere, ikaba ifite icyapa cy'ubwoko bwa yundayi, hakaba hacururizwa imodoka zo muri ubu bwoko, imbere hariho icyapa gifite ibara ry'ubururu handikishijwe amagambo y'umweru.

Imitaka myinshi igiye itandukanye harimo imitaka itukura ya eyateri ndetse n'uw'icyatsi wa infinigisi imbere yaho hakaba hateretse akabati gacururizwaho, amarinite imbere y'aho hakaba abantu benshi batandukanye harimo uwambaye ijiri ya emutiyene, isa umuhondo hakurya y'aho hakaba hari inzu iriho y'icyapa cya eyateri.

Abagabo babiri bahagaze imbere y'imodoka y'umweru, bafite icyapa kiriho amagambo yandikishijwe mu ibara ry'umutuku n'amagambo manini yandikishijwe ibara ry'umukara, icyapa kigaragaza urufunguzo; byerekana ko bamaze kugurana imodoka.

Abagabo batatu bahagaze, babiri bakoranye mu kiganza, bafashe ku cyapa kiri mu bwoko bw'urufunguzo, bamaze kugurana imodoka iri inyuma y'umukara.

Imodoka y'umukara ifunguye urugi rwa butu, aho bakunze gushyira imizigo itari bwicarane n'abagenzi, ku ruhande ifite amatara asa umutuku n'akantu k'umweru hasi.

Umusore wambaye ikote ry'umukara n'isha ufite urupapuro mu ntoki yicaye muri banki iruhande rwe hari imashini ibara amafaranga, ari gukanda kuri mudasobwa agerageza kuzuzamo imyirondoro bamuhaye ku rupapuro.

Muri banki aho hateretse amafaranga menshi agiye abitse mu bice bitandukanye, hakaba hari akuma gashinzwe kubara amafaranga, kugira ngo umuntu uje kuyabikuza adatwara amafaranga atuzuye cyangwa arengaho.

Imodoka iri mu bwoko bwa fani ikaba ifite ibirango by'ubururu bwijimye inyuma, y'Ikigo cya isiko gishinzwe kubika amafaranga. Imbere hari abagabo babiri b'abasekilite, bateruye kesi mu ntoki ibikwamo amafaranga.

Umugabo ufite amafaranga mu ntoki ari mu ibara ry'umutuku n'ubururu y'amakenya imbere yemuri etageri y'umukara harimo ibiceri n'andi mafaranga abitsemo hejuru hari mudasobwa.

Inote y'amafaranga ijana akorwa na banki nasiyonali y'u Rwanda, ateretse hejuru yameza arimo ibirango by'imisozi ikikije amazi arimo hagati.

Ameza ateretsweho ipurato bashyizeho amasambusa akozwe mu birayi babaye bifashishijeho mu gihe bategereje kuyashyira mu mavuta ubundi bakayacuruza.

Umukobwa uhagaze mu iduka, wambaye ikabutura y'irose n'umupira w'umweru, afite terefone mu ntoki hakaba hateretse amata ari mu cyuma kugira ngo adapfa, hejuru hakaba hateretseho ijage bifashisha mu gupima amata.

Muri kantine ahacururizwa amata, hateretse igikombe kirimo amata, amandazi ateretse ku isahani, hicaye umumama ufite ibisuko akaba ari kureba mu ishakoshi ye, imbere hateretse igikombe kirimo icyayi, ku ruhande hariho firigo iriho ibirango bya koka kola, hirya hakaba hari icyuma bifashisha mu gukonjesha amata.

Etajeri iriho bana iri mu mabara y'ubururu, umweru n'uturongo tw'umukara iteretseho igureti y'umutuku, hejuru hariho amverope irimo keke abantu baza kugura.

Ikureti iriho amagi icyenda iteretse ku meza ariho igitambaro kirimo imirongo y'ubururu, umweru n'umukara, inyuma hari igikuta gisa umweru.

N'umwana bari ku iduka bahagaze ku gikuta gisa ubururu, imbere yabo hateretse akabido bakiriwe n'umukobwa wambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'iroza, arikubapfunyikira muri amverope, hirya y'umukobwa hateretse firigo irimo amajerekani n'amaji, hari ikinyuma gifashishwa mu gukonjesha amata imbere yaho hateretse injerekani y'umweru babikamo amata.

Icyapa cyamamaza urubuga rwifashishwa mu guteganyiriza umwana wawe hifashishijwe ikoranabuhanga uru rubuga rwanditse mu magambo y'umweru haciyemo ibara rya move.

Abahungu babiri umwe wambaye furari, undi wambaye ikote ry'umukara, bari kureba muri terefone, bari kwamamaza uburyo utumira inshuti zawe, ubaha urwo rubuga bakaguha amafaranga magana atanu kuri buri nshuti utumiye.

Icyapa kiri mu ibara ry'umutuku handikishijwe amagambo y'ibara ry'umweru, aho urubuga rwa eyateri rwafunguye apurikasiyo abantu bazajya binjiramo bakaba bakoresha eyateri mani, hakoreshejwe telefoni zabo biboroheye, hakaba hariho uburyo wakinjiramo bikoroheye.

Seritifika cyangwa icyemezo gitangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro Rwanda reveni otoriti, iriho nimero y'uko wiyandikishije ubungubu ukaba utanga umusoro ku nyongeragaciro.

Fagitire itangwa nikigo cya rwanda reveni otoriti gishinzwe imisoro n'amahoro, yerekana itariki umuntu yagomberaga kwishyura, igihe wishyuriye ikerekana amafaranga wishyuye. Iyi fagitire itangwa hakoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga.

Fagitire itangwa hakoreshejwe ikoranabuhanga n'kigo gishinzwe imisoro n'amahoro yerekana amatariki wishyuriyeho amafaranga wishyuye ku bukode.

Amafaranga akorwa na banki nkuru ya Kongo, ibihumbi makumyabiri ari mu ibara ry'umuhondo, hakaba hateretse ikibumbano kiri mu ibara ry'umukara, hariho n'amashavari.

Umukobwa ufite amafaranga menshi mu ntoki y'amadorari ariho umugabo akaba atabasha kuyabara niyompamvu ari kuyashyira mu cyuma kibara amafaranga kugira ngo amenye umubare wayo.

Amafaranga maganatanu akorwa n'ikigo cya banki nkuru ya Tanzania, hariho umugabo wambaye ikote ry'umukara, akaba hari imibare n'inyuguti byandikishijwe mu ibara ry'umutuku.

Icyapa gishinze hagati mu muhanda kerekana uburyo bavunjamo amafaranga aho idorari bari kurivunja igihumbi na magana atatu amafarnga yose agiye ariho uko bayavunja bitewe n'igihugu, hepfo umuhungu wambaye umupira w'umuhondo.

Aho bavunjishiriza amafaranga, utanga amafaranga yo mu gihugu cyawe, bakakuvunjiramo ayo bakoresha mu gihugu cyabo, kugira ngo wifashishe mu guhaha ibintu bitandukanye.

Amafaranga maganatanu y'amashiringi akorwa na banki nkuru ya tanzaniya ashushanyijeho inzu nini akaba ariho igiti kizengurutseho n'inzoka iri mu mabara y'icyatsi.

Amafaranga menshi ijana y'amatakishi ku ruhande hateretseho n'andi mafaranga magana abiri ari mu ibara rijya gusu umutuku imbere hateretse amafaranga y'ijana y'amadorari hepfo harimo karikireta yifashishwa mu gukora imibare hakaba hariho n'imashini ibara amafaranga na etageri ibikwamo amafaranga.

Inzu iriho umuryango ufite icyapa kinini cy'umukara cyandikishijeho amagambo afite ibara ry'umutuku n'umweru akaba ari aho bavunjisha amafaranga bakaba berekana uburyo bavunja amafaranga bitewe n'ay'igihugu.

Ahakorerwa ibikoresho abantu bifashisha mu inzu, uru n'uruganiriro rugizwe n'intebe imwe yicaramo umuntu umwe, n'indi nini yicaramo abantu batatu, hakaba hariho n'meza ikozwe mu kirahure.

Aha ngaha hari ameza yicayeho abantu bane harimo umugore umwe ndetse n'abagabo batatu, bicaye ku ntebe nziza cyane bose imbere yabo hari indangururamajwi kugirango ngo babashe kumvikana, hakaba hari kandi n'uducupa tw'amazi atunganywa n'uruganda ruzwi cyane mu Rwanda mu gutunganya ibyo kunywa rw'inyange

Uruganiriro rurimo intebe eshatu, ameza n'utundi tumeza dutoya, ku gikuta cy'umweru hageretseho itara riri mu mabara ya iroze hariho amarido ari mu mabara ya orange.

Hoteli ndende ifite ibyumba byinshi, iriho amadarapo atatu, iyi hoteli ba mukerarugendo bakunda kuza kuyisura, bakaba banaharuhukira.

Mu kibuga ni ho abantu bidagadurira, bashobora gukiniramo imikino itandukanye, waba uw'amaguru, uw'amaboko ndetse n'iyindi, ibiti iyo biteye bicucitse bigira akamaro kanini cyane, bishobora gukurura imvura, ikindi kandi byavamo n'inkwi ndetse n'amakara.

Hoteli, aho abantu basohokera, bakaza kurira cyangwa kurara, imbere hari pisine, ku ruhande hari ibyumba abantu bararamo, hirya hari aho habera sawuna na masaje.

Pisine abantu bogeramo, ku ruhande hari intebe ziri mu mutaka w'umweru, zisa umutuku, aho abantu bicara mu gihe bamajije koga, hari n'izindi ntebe ziri mu mabara y'umweru, aho abantu badashaka kujya mu mazi baza bakaba bari kumva umayaga.

Inzu icumbikwamo n'abafite urugendo igihe gito cyangwa baza kuruhukiramo, iri mu marangi ya orange, igoswe n'ibiti n'amavase arimo indabo.

Hoteli y'abapadiri ikorerwamo ibikorwa bitandukanye ifite salle yakirirwamo amakwe n'ibindi birori bitandukanye, ikikijwe n'indabo z'icyatsi.

Hano ni mu mujyi wa Kigali rwagati, imbere hiryaha ndikubona ikigo cy'imari twita beka ahantu kuhande ndahabona inzu igeretse yubucuruzi, hano kuri uyu muhanda hari ahantu abantu bakunda kuruhukira bakorera n'ubukerarugendo.

Hoteri nini yakirirwamo abantu bashaka amafunguro n'ibyo kunywa ndetse bifuza no kuba baruhuka, imbere hari pisinine nini aho abana n'abantu bakuru baza kogera, hakaba hariho n'intebe n'ameza by'umukara, n'indi zishyizwe mu umutaka w'umutuku.

Ipoto rishinze iruhande rw'umuhanda, hejuru hariho itara ndetse n'insinga zijyana amashanyarazi ahandi munsi, hari umugabo uri gutambuka wambaye umupira n'ipantaro y'umukara.

Idirishya rya ofisi ry'ikirahure, harimo ameza y'umukara ateretseho itara na purize, hariho n'intebe ku ruhande, nandi meza matoya ateretseho intebe aho umukiriya aba yicaye ategereje guhabwa serivisi.

Ibiro byifashishwa mu gutanga serivisi z'ubwishingizi, harimo intebe z'umukara, amameza akikijwe n'imitako, hateretseho mudasobwa kuri buri meza, hariho amayetajeri akikijwemo ibitabo.

Ibiro bishinzwe gutanga serivisi, harimo abakozi imbere yabo hari mudasobwa, bambaye amashati ari mu ibara ry'umweru, imbere yabo hicaye abantu ku ntebe, bategereje guhabwa serivisi.

Inzu y'ubucuruzi iriho ibyapa byerekana serivise zitangirwa muri iyo nyubako, icyapa kiriho ibara ry'ubururu n'umuhondo byerekana serivise y 'ubwishingizi, kujya kwiga hanze n'ikindi cyerekana ko bavunja amafaranga, hariho uburyo wabahamagaramo.

Umugabo wicaye mu ntebe isa umuhondo wambaye ishati ya rujeborudo n'ipantaro y'umukara akaba yicaye muri ofisi ya sonarwa aho ari ikigo gishinzwe gutanga ubwishingizi mu rugo rwawe.

Banki y'umwarimu sako irimo ibipizo bisa orange, umweru, umukara nu'bururu bahagaze abagabo bari guhabwa serivisi harimo n'abana bambaye udupfukamunwa baje kwishyura amafaranga y'ishuri.

Icyapa kiriho umukobwa ufite urufunguzo rw'imodoka mu ntoki, akaba ahagaze mu muryango w'imodoka. Aho cyerekana uburyo ushobora gutunga imodoka hamwe na banki ya ekobanke.

Icyapa kiriho umugabo wambaye ikote ry'ubururu bwijimye n'ishati y'ubururu bwerurutse akaba afite inote za bitanu mu ntoki ari kwamamariza ikigo cya Ayademu banki aho kiri gutanga inguzanyo kuyagera kuri miliyoni mirongo itanu z'amanyarwanda nta ngwate bagusabye.

Umugabo uhagaze afite ikaramu mu ntoki arimo arasinya ku bipapuro, hagati harimo ikirahure n'umukobwa uri imbere ye ufite amafaranga mu ntoki ariko yababara, agiye kumuha aya mafaranga.

Icyapa kiri mu mabara y'umuhondo n'icyatsi kiriho umugabo wambaye ipantaro yumukara n'umupira w'umweru afite telefone mu kaboko, cyamamaza banki popilere apulikasiyo yashyizeho nshya ya izi kashi, n'uburyo bwo kohereza amafaranga, no kubitsa hakoreshejwe telefone igendanwa.

Icyapa cyamamaza ikigo cya I&M Bank, cyerekana uburyo gitanga inguzanyo mu buryo butatu ku makampani akiri kuzamuka, hariho uko wabahamagara n'uko wakwiyandikisha mu mikoranire yawe na bo.

Icyapa kiriho umukobwa wambaye ishati y'umuhondo irimo utudomo tw'umweru akaba yambaye n'itabiririya y'umweru, kikaba cyamamaza uburyo ushobora kubona inguzanyo muri banki ya ekwiti ukabasha kwagura bizinesi yawe, hakaba hariho uburyo bwo kubahamagara cyangwa ukaba wafungura apulikasiyo ukabikorera kuri telefone yawe.

Abagore bambaye ibitamabaro mu mutwe bahagaze hagati harimo umugabo uri gutanga ibikoresho hepfo hateretse akabogisi karimo imiti habwa abantu bafite ubwandu bwa Sida.

Icyapa kiriho umukobwa utwaye imodoka, ari kurebana n'umuhungu wambaye ikoti ry'umukara na rinete, ari kumwereka uburyo yatunga imodoka na we yifashishije Banki y'Afrika, ku bindi bisobanuro hakaba hariho nimero wabahamagaraho.

Isoko ricururizwamo imyenda ririmo imipira yo kwifubika, amakanzu, amashati, hari umugabo wambaye umupira w'icyatsi, ufite amashuka mu ntoki na amvirope mu kwaha.

Isoko rinini ricuruza imbuto hariho umugore wambaye itaburiya harimo imbuto, imineke amaronji, inanasi, wotameroni n'ibinyomoro ,hejuru hamanitswe ibikapu umuntu yifashisha iyo amaze guhaha.

Isoko ricuruza imyenda n'inkweto harimo umuhungu wambaye ipantaro y'umukara n'umupira wa pinki, harimo abantu benshi, ku ruhande hamanitse inkweto z'umweru, umutuku n'umukara.

Mu isoko ahacururizwa imyenda hamanitse imipira y'umuhondo, icyatsi n'ubururu ya siporo hakaba hariho n'ibikuvureri biri mu ibara ry'ubururu, na pinki, hepfo hakaba hariho amarido n'amashuka hamanitswe n'amakanzu, adozwe mu bitenge imbere hari abakobwa bari kudotesha imashini.

Isoko rinini ririmo abantu benshi riparitsemo amamoto n'amagare abantu ubona bitabiriye ibirori biri kubera mu isuku hakaba harimo icyapa kinini kiri mabara y'umutuku n'umweru.

Inzu z'ubucuruzi zikikijwe n'utwuma turiho amabara y'umutuku, muri buri nzu hakasemo ibyumba, aho iyo isoko ryaremye buri mucuruzi aba afite icyumba yinjiramo agaterekamo ibicuruzwa bye.

Isoko ry'imboga ririmo inyanya, puwavuro, intoryi, imiteja, karoti, ibishyimbo biri ku nkoko, ibitunguru by'umweru harimo umugore wambaye ikanzu yumutuku n'umugabo wambaye ishati n'undi uri gutondeka inyanya w'umusore wambaye umupira w'ubururu.

Iduka ricuruza imitako n'ubukorikori n'ubugeni imitako ikoreshwa intoki harimo imitako iri mu mabara y'umweru n'umukara icyatsi n'umutuku.

Isoko rinini ricuruza ibijyanye n'imboga harimo inyanya, shofurere, kokombure, urusenda, ibitunguru hakaba harimo icyapa kinini cyamamaza Emutiyene.

Isoko ricururizwamo imyenda hicayemo abagore barikugenda bakuramo imyenda mu mifuka baranguye abandi bari kugeregeza kuyimanika kugira ngo byorohere abaguzi baza kuyigura.

Umugabo wambaye ingofero y'umukara, n'umugore wambaye umupira w'icyatsi, bahagaze kuri kontwari, baje gusaba serivisi za mobayiro mani, hateretse igitabo kiba kirimo imyirondoro, imbere yabo hari umusore wambaye umupira w'umuhondo, uri gukanda muri mudasobwa, abarebera amakuru baje gushaka.

Icyapa cyamamaza serivisi za Emutiyene kiriho umusaza ufite imvi, uhetse umwana wambaye umupira w'umuhondo, icyapa cyerekana uburyo wagura amayinite, ugatsindira ibihembo bari bashyizeho.

Iduka ricuruza ibikoresho bya eregitoronike, ameza y'ikirahure ateretse ho telefone, mu ibara ry'umuhondo, hakaba hariho uburyo wakwifashisha, wishyura ukoresheje telefone, bwa mobayiro mani.

Abakobwa babiri bambaye imipira y'umutuku n'amajipo y'umukara, bari ahatangirwa serivisi za mobayiro mani, harangwa n'amabara y'umuhondo n'amagambo yandikishije ibara ry'umukara.

Kiyosike iri mu mabara y'umutuku yandikishije amagambo y'umweru ya eyateli itanga serivisi zerekeranye no kubitsa no kubikuza hifashishijwe ikoranabuhanga rya telefone, ikaba iri muri gare aho abanyamaguru bahagarara bajya no gufatira imodoka.

Udukiyosike tubiri kamwe kagizwe n'amabara y'umuhondo kandikishijwe amagambo y'umukara batanga serivisi z'ibijyanye na mobile mane, harimo abagabo babiri baje gushaka serivisi zo kohereza no kwakira amafaranga, ahandi harimo umukobwa uhagaze ahatangirwa serivisi za eyateli mane mu mabara y'umutuku n'umweru.

Icyapa kiriho umukobwa wicaye wambaye ekuteri, ari kwerekana uburyo wahahamo wifashishije telefone yawe uri mu rugo, bikakugeraho utiriwe ujya ku isoko.

Icyapa kerekana ko guhaha no kugurisha hifashishijwe ikoranabuhanga biri kugenda bizamurwa, amakampani menshi ari kugenda agurisha ibintu hifashishijwe ikoranabuhanga, aho ufungura apurikasiyo muri telefone yawe ukaba wabasha kugura uri iwawe mu rugo bakabikugezaho.

Urubuga rwifashishwa mu guhaha ibikoresho bitandukanye, ukoresheje ikoranabuhanga waba ushobora gukoresha telefone yawe, utumiza inkweto, ikanzu, imipira, telefone, ama ekuteri, wifashishije uru rubuga, aho babikugezaho murugo iwawe utiriwe ujya ku isoko.

Moto ziriho utubokisi dusa oranje, zifashishwa mu kujyana zigezaho abantu bimwe mu bicuruzwa baba batumije, hifashishijwe ikoranabuhanga, bakabibagezaho mu rugo.

Motari utwaye ibyo baguze hifashishijwe telefone aho umuntu atuma ibintu ashaka yifashishije telefone ye ari mu rugo, noneho Kampani ikamwoherereza ibyo yaguze iwe mu rugo. Uyu mu motari akaba ajyanye bimwe mu bicuruzwa umukiya yari yasabye.

Urubuga rukoreshwa mu guhaha hifashishijwe ikoranabuhanga hariho umukobwa wambaye ishati y'umweru afashe amvirope y'umweru n'icyatsi arikwamamaza ibicuruzwa bagabanyije umunzani bakuyeho rimwe ku ijana, rape bagabanyije gatandatu ku ijana.

Inzu igurishwa miliyoni ijana na mirongo itatu z'amanyarwanda mu mujyi wa Kigali, iriho pasiparume, ikaba ifite ibiti biyikikije, jaride nini ikaba iriho ikigega cy'umukara hejuru yubakishijwe amabati y'umukara.

Inzu i mu ubwoko bwa etage ikiri kubakwa ku ruhande hari imicanga hariho n'imifuka ya sima, imbere harimo pasiparume, ikikijwe n'ibiti, ikaba iherereye muri Kacyiru mu mujyi wa Kigali igurishwa igihumbi na magana atanu by'idolali

Inzu ndende iri mu bwoko bwa etaje, ifite inzugi n'amadirishya by'ibirahuri, ikaba isize amarangi y'umweru, hasi ikaba ipavomye ifite na pasiparume. Iyi nzu ikaba iherereye Gisozi, hafi ya Kagugu, mu mujyi wa Kigali, ikaba igurishwa miliyoni magana atatu mirongo itanu z'Amanyarwanda.

Inzu nziza iri Gisozi muri Kigali ikaba ari inzu y'ibyumba bine, ikaba ifite dushe na tuwarete byo mu nzu, aho ifite miriwari mu nzu bogeramo ugashyiramo amazi ukaba wakoga uryamyemo.

Inzu yubatse mu buryo bwa konoshi ifite ibaraza ririho amakaro y' umweru imbere hapavomye harimo imirongo y' umutuku n' umukara. Iyi nzu ikaba igurishwa miliyoni ijana na mirongo itatu z' amafaranga y' u Rwanda.

Inzu iri Kabeza hafi ya segiteri iri kugurishwa. Ifite amarange y'ubururu, ifite igisenge gifite amabati asa ruje borodo ikaba igurishwa.

Inzu nini ifite parikingi ikaba ifite ikoritire iri mu mabara y'icyatsi n'inzu nayo isize amarangi y'icyatsi ikajyana n'amabati asa umutuku ikaba ari inzu ikodeshwa Kigali Kabeza.

Icyapa kiriho imodoka kerekana serivise batanga harimo ko bagurisha imodoka, bakanaranga imodoka, bakaba babacuruza amazu, ibibanza, n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Inzu iherereye i Remera ikaba ikodeshwa ifite icyumba kimimwe dushe na tuwarete mu nzu ikagira n'igikoni cyubakiye cyo mu nzu igikoni kikaba kirimo amakaro, purafo n'amatara.

Inzu bahahiramo cyangwa isoko rikikijwe n'ibyapa bya emutiyeni biri mabara y'umuhondo byandikishijwe amagambo y'umukara, hateretsemo bafure y'umukara ikoreshwa mu kwamamaza ibicuruzwa bafite, harimo umugabo wambaye ijire y'icyatsi n'uwambaye ishati y'ubururu n'undi wambaye umupira w'umukara.

Inzu nini ishinzwe ubucuruzi hakorerwamo ubucuruzi bugiye butandukanye, harimo abacuruza imyenda n'inkweto, hari ibimaneke hanze bambitse imyenda y'ibitenge, hakaba harimo saro y'abana n'ibindi bikorwa byinshi bitandukanye.

Umugore witwikiriye isharupe ya oranje irimo amabara y'icyatsi uhagaze mu idirishya ari kwerekana mituweri aje kwa muganga, akaba yakiriwe n'umugore wambaye umupira w'umutuku uri kumurebera kugira ngo amwakire amuhe fayiro yo kwivurizaho.

Supamaketi ku ruhande rw ibyo kunywa harimo Juis z'imyembe kabarimo heineken akaba arimo Fanta yasupuriyiti na coca-cola hakaba harimo exo n'ibindi binyobwa bisembuye n'ibidasembuye hakaba hari akagare imbere kajyamo ibyo umuntu atwara ahashye.

Alimantasiyo irimo ibicuruzwa bitandukanye, bimwe biri ku ma etajeri harimo amavuta y'amazi, ifayini, amajyane, ku ruhande rwo hepfo hariho amashokora, biswi, bureba, imbere hariho firigo ibikwamo amayogati, amaji, kugira ngo bifashe gukonja; hateretseho akagare umuntu yifashisha iyo ari guhaha.